Mu bayobozi bagiye bahagarariye ibigo bitandukanye b'ibyiciro bitandukanye baba baje mu nama bakaganira ku bintu byatuma imishinga yabo ikomeza kwaguka kandi igatera imbere n'igihugu kigakomeza gutera imbere.

Uru nguru n'urubyiruko runini cyane rw'intore ahangaha urubyiruko ruba ruraganirizwa kugira ngo babereke ukuntu bakomeza kuba intore kandi bakarushaho kwiteza imbere no kugira agaciro ndetse n'umuco na kirazira.

Aha ngaha abaturage baje babatumiye bakore inama ubundi umuyobozi ubahagarariye akabajya imbere agafata ijambo akabaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye, bakamuha ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo by'uko bumva ibintu byagenda nawe akabasubiza.

Aba ni abayobozi batandukanye b'ibigo runaka cyangwa se bahagarariye imishinga itandukanye, baba bafite ubutabo n'amakaramu barimo barandika ku mishinga cyangwa se ku bibazo birimo birabazwa mu gihe bari mu nama.

Ni abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, aha ngaha ashobora kuba ari ikigo nk'imbuto se baba bashinzwe kwita ku miryango imwe n'imwe igiye itandukanye, cyangwa se ari nk'ishyirahamwe bashinze.

Aba ni abayobozi batandukanye bo mu nzego zigiye zitandukanye baba baganira ku bintu byabafasha gutera imbere ndetse bakagura n'ibikorwa byabo, n'igihugu kigakomeza kurushaho gutera imbere mu mirimo bagenda bakora myiza.

Ahangaha abaturage bari mu nteko bari mu nama baganira ku bintu byinshi bitandukanye byabateza imbere cyangwa se bigateza igihugu imbere imiryango yabo, abandi bantu batandukanye bo hirya no hino mu mpera z'igihugu.

Uru nguru ni urubyiruko n'abayobozi, abatoza b'intore ndetse n'intore, urubyiruko ruraba ruri kwitoza kuba intore kugira ngo ejo n'ejobundi ruzabeho kandi rwibeshejeho.

aba n'abashoramari b'ibihuguke bitandukanye bari kuganira ku bintu byatuma imari yabo ikomeza kwaguka cyangwa se igatera imbere harimo n'abanyamahanga kugira ngo bakomeze gukora ubuhahirane

Iki ngiki ni ikigo runaka gitandukanye, tukabona abayobozi bagiye batandukanye bagihagarariye, bahagarariye abandi, baba bicaye imbere barimo baraganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byatuma barushaho kwagura imirimo, bagateza n'igihugu imbere.

Abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye cyangwa se b'ibigo bigiye bitandukanye bahagarariye abi imishinga myinshi cyane itandukanye bamaze kuganira ku bintu byatuma bakomeza kunoza umurimo ndetse no guteza imbere umurimo bakora .

Uyu ngu ni umunsi w'ubukerarugendo. Aha ngaha bari kwishimira ukuntu ubukerarugendo bwagiye bwaguka cyangwa se bwagiye bukura, bakagiramo inyungu nyinshi zigiye zitandukanye, igihugu kikabasha kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Uyu ni umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage ayoboye; ahangaha araza akabaganiriza ku ngingo zitandukanye ubundi buri wese akabaza ikibazo bitewe n'uko abyumva na we akagenda abasubiza.

Aba ngaba ni abayobozi b'ibigo bitandukanye cyangwa se abashoramari batandukanye baba bari kwiga ku bintu byateza imbere imari yabo baba barashoye, bafite amazi, abandi bakaba bafite imitobe kugira ngo bajye basomaho mu gihe barimo baraganira

Guhura kw'ibihugu bitandukanye, bari kwiga ku mishinga y'ibintu byinshi bitandukanye byabagirira umumaro, kugira ngo babashe gukomeza guteza igihugu imbere ndetse n'ibigo by'imari bagiye bakorera.

Abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bateranye bari kwiga imishinga myinshi itandukanye yabagirira umumaro, ndetse ikaba yagirira n'Igihugu cyabo umumaro kugira ngo barusheho gukomeza gutera imbere ndetse no kwagura ibikorwa.

Byari inzego zigiye zitandukanye, ahangaha bari mu nteko y'inama yo kwiga ku bintu bigiye bitandukanye. Bitewe n'ibyo bahagarariye, kugirango babashe kuba bareba ukuntu byakomeza kwaguka kandi bigatera imbere.

Aba ngaba ni abakozi b'ibigo bigiye bitandukanye, baba bari kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, byatuma bakomeza kwagura imishinga yabo ndetse na bo ubwabo bakiyagura bikabateza imbere, bikaba byateza n'igihugu imbere.

Abaturage barimo baraganirwa n'umuyobozi ubahagarariye mukuru wabo arimo atanga ijambo, ubundi nyuma yaho nabo bagatanga ibitekerezo by'ibyo bakeneye cyangwa se uko babyumvise ubundi nawe akajya abasubiza.

Aba ngaba ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, baba bari kuganira ku bintu by'ukuntu bakomeza kwagura imirimo bakora no kwagura iterambere ryayo ndetse n'iterambere ry'igihugu.

Abana ni abayobozi b'ibigo bitandukanye cyangwa se b'ikigo kimwe, abicaye bari mu nama bamwe bari kuri za mudasobwa, bakaba bafite indangururamajwi bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye, byatuma bakomeza kwagura ibikorwa byabo.

Aba ni abayobozi batandukanye bahuye bari mu ihuriro, baganira ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, biga ku bintu byatuma bakomeza gutera imbere no kurushaho gusigasira aho bagejeje kugira ngo bitazasubira inyuma.

Abayobozi mu nama baganira bareba icyateza igihugu imbere, icyabateza imbere, icyateza imiryango yabo imbere, icyateza akarere bakoreramo imbere, ibigo runaka by'imari bakorera.

Urubyiruko ruba rwateranye bari kuruganiriza ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, kugira rurusheho gukomeza kwiteza imbere ndetse kwagura imitekerereze no kuba bamenya imirimo myiza yabafasha guteza n'igihugu imbere.

Ndabona abayobozi bagiye batandukanye bo mu ngeri zitandukanye, baba barimo baraganirizwa baganira ku bintu byinshi, byabafasha kwiteza imbere, guteza igihugu imbere, bakarushaho kwagura ubumenyi bwabo.

Ni abayobozi b'ingeri zigiye zitandukanye baba bari kwicara bakaganira ku bintu byinshi byatuma bakomeza kwagura imirimo yabo bakora kwagura imitekerereze ndetse no kwagura imishinga no guteza igihugu imbere.

Aba ngaba ni abayobozi ndetse n'abaturage bicaye hamwe, barimo baraganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyabagirira umumaro cyangwa se byagirira leta umumaro cyangwa se byateza igihugu imbere.

Aha ngaha abantu bateranye bari mu nama, baba bari mu nama biga ku bintu byinshi bitandukanye by'ingeri zose, byabafasha kungurana ibitekerezo kandi bakarushaho gukomeza gutera imbere no kwagura imirimo yabo.

Iyi ngiyi ni icyumba cyiza cyane, giteguye neza, kiberamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aha ngaha hari ihuriro ry'abantu b'ingeri nyinshi cyane, abanyamahanga, abanyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inama ni abayobozi bari mu nama batandukanye b'ibigo runaka cyangwa se b'imishinga itandukanye bari mu nama bari kuganira ku kuntu imishinga yabo yatera imbere cyangwa se nabo ukuntu batera imbere cyane cyane bakora ibijyanye n'ukuntu igihugu cyatera imbere.

aba ngaba ni bamwe mu bayobozi runaka batandukanye nk'abicaye bari mu nama bagenda baganira ku bintu byari bitandukanye byatuma bakomeza kwagura ibikorwa bakora, ndetse n'imishinga bafite mishya bakajyana inama n'ibitekerezo.

Abantu bari mu nteko biga ku bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo bakomeze barebe ibintu byateza imbere imishinga yabo baba bafite cyangwa se imishinga y'abaturage kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere.

Uru ni rubyiruko rw'u Rwanda rwicaye rurimo ruraganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, ukuntu bakomeza gusigasira umuco na kirazira, ukuntu batera imbere ukuntu igihugu cyatera imbere kandi kigakomeza gikeya.

Aba ni abayobozi b'ingeri zitandukanye, bari mu nama ubundi bagafata ikaramu bakandika ingingo z'ingenzi, ibyo baganiriyeho kugira barusheho kubinoza, ndetse barusheho kuba babiteza imbere mu gihe icyo ari cyo cyose.

Abangaba ni abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye aho bari mu nteko bagenda baganira ku bumva ibintu byakomeza kwaguka, cyangwa se byakomeza kurushaho gutera imbere, yaba ibyo bahagarariye cyangwa se abo bayoboye.

Aha uyu ni umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, itariki ya mbere Gicurasi, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri, aha ngaha wari umunsi mpuzamahanga w'umurimo abantu bose bizihiza umurimo.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura imisoro n'amahoro, aha ngaha ibigo bishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro, uba ugomba kwishyura hakiri kare itariki ntarengwa itaragusiga, kugira ngo utazabasha guhabwa ibihano bigiye bitandukanye.

Aha ngaha baba bakubwira ngo sura urubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, bakakubwira ko habura iminsi itatu ku buryo uba wabasha kwandikisha imisoro yawe mbere y'uko itariki ntarengwa yaba yagera, mirongo itatu nimwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Uyu nguyu ni umunara udufasha mu buryo bw'itumanaho, itumanaho kugira rigende neza mu gihe umuntu avugana n'undi, bari ahantu hatandukanye bari gukoresha za murandasi, bari gukoresha ikoranabuhanga kugira bigende bidacikagurika.

Uru nguru ni urubuga rw'irembo bazanye ubundi buryo bushya bwa minisiteri ya siporo, amazina y'ibyo baba bazanye bishya, uruhushya rwo kwakira ibirori mpuzamahanga bya siporo, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye wagenda ubisoma, cyangwa se ukabahamagara ku icyenda, zeru, icyenda, icyenda.

Uru nguru ni rubuga rw'irembo wasura ahangaha kugira ngo ubyikorere. Intambwe ya gatatu uhitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro kisumbuye uriyandikisha ibisabwa ukabisoma nabyo ukabikurikiza.

Ukeneye serivise zo gutwara abantu n'ibintu muri rura wabahamagara kuri iyi nimero kabiri kabiri kabiri kabiri cyangwa se ukabandikira ku rubuga nkoranyambaga bakoresha ubundi bakaba bakubwira uko bikorwa.

Iki ngiki ni ikigo cy'imisoro n'amahoro ahanga bakubwira ukuntu wahindura ijambobanga rya konti yawe yo muri icyo kigo aha ngaha urabanza ugasura urubuga ukandika ugakanda ku ijambobangaga ubundi ukinjiramo ugashyiramo imibare yindi n'amatelefoni n'ibiki.

Ikingiki ni ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Ahangaha barakwereka uburyo wasura urubuga rw'icyo kigo ugakora serivisi zindi zitandukanye cyangwa se ukaba waba wishyura imisoro hatarajyaho ibihano, ukishyura mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu kuko ariyo tariki ntarengwa.

Kandi nawe wabyikorera, barakubwira ngo ubyikorerare. Ku rubuga rw'Irembo ushobora gukanda akanyenyeri icyenda zeru icyenda, cyangwa se ugasura uru rubuga ukikorera ibintu byinshi waba ukeneyeho kandi bikagufasha mu buzima bwawe.

Rero ukahasanga icyapa cyangwa se ikirango kimeze gutya uzamenye ko wemerewe kujya kuri murandasi ku ubuntu, ukagenda nawe ukareba amakuru yo hirya no hino ku isi, ukarushaho kwagura ubumenyi bwawe no gusakisha ibindi bintu bitandukanye.

Aba ni abantu abantu b'ingeri zitandukanye bateye imbere bari gukoresha za murandasi bifashishije mudasobwa bashobora kuba bari gukoreraho akazi kagiye gatandukanye kabo cyangwa se bari mu bushakashatsi bw'ibintu bitandukanye cyangwa se bari ku mbuga nkoranyambaga za murandasi.

Aba ngaba ni abanyeshuri bari kuri za murandasi bifashishije amaterefoni ngendanwa yabo, aha ngaha baba bari kureba amakuru ari hirya no hino ku isi uko bihagaze bakarushaho kwagura ubumenyi, bakarushaho gutera imbere muri byose, mu mitekerereze ndetse no hanze yabwo.

Ahangaha barakubwira ngo injira, urebe ukuntu wakora akazi, cyangwa se warema akawe kazi kejo hazaza, aha ngaha hari uburyo wiyandikisha, ubundi ukagenda ukareba uburyo wakiga kurema akazi kagufasha ejo hazaza.

Iyi ngiyi ni inyubako z' umuryango ukoreramo umwe mu bakozi ba banki, aha ngaha ni ho ushobora kuza ukeneye gahunda zigiye zitandukanye, uje kubitsa amafaranga yawe, uje gufungura konti nshya cyangwa se uje kubikura amafaranga bagufasha.

Uyu ni umuhanda harimo amapikipiki tukaba tubona umunara ukomeza kudufasha mu itumanaho n'icyapa cy'ikigo gishinzwe itumanaho cyerekeranye n'umunara kugira ngo itumanaho rikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu.

Aba ni abanyeshuri bari ku ikoranabuhanga biga ibintu bigiye bitandukanye bizabafasha gutera imbere ndetse no guteza imyuga yabo imbere bikaba byabafasha gutuma igihugu cyabo nacyo cyaba cyatera imbere.

Uyu nguyu ni umunara umunara udufasha mu itumanaho, kugira ngo habe habasha kubaho gutumikana, kohererezanya ubutumwa, kuvugana kuri murandasi kureba amakuru, gukoreraraho akazi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bikagenda neza bidacikagutse.

Uyu nguyu ni umuryango bacururizamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibikapu, ibintu byinshi byo gufunyikamo ibindi bintu bitandukanye, ukaba wagura ibikoresho by'isuku, bikoresho wakoresha isuku yo mu nzu.

Uyu nguyu ni umurezi w'ikigo cy'amashuri aha ngaha ni mu ishuri arimo arigisha abanyeshuri akoresheje mudasobwa, kugira ngo babashe kurushaho kumenya iterambere ndetse no kurushaho kunoza ubumenyi bwabo.

Ahangaha ni hantu ushobora kujya ukeneye gukoresha mudasobwa bitewe n'ibyo ukeneye kujya kureba aho cyangwa se kwigiraho ahangaha nti hahandi bagufasha ukajyaho ubundi nyuma yaho bakaba baguhaye igihe bakakwishyuza bitewe n'igihe wamaze ukoresha

Ahangaha barakubwira ngo "Sura u Rwanda", ubukerarugendo ahazwi nk'ubutaka bw'imisozi igihumbi, ahangaha ni mu Rwanda, waza mu bukerarugendo ugasura inyamaswa z'amoko atandukanye utarabona, n'ibindi byiza nyaburanga bigiye bitandukanye.

Aba ni abanyeshuri barimo barareba muri murandasi zabo ndetse no muri telefoni ngendanwa, kugira ngo barusheho kwagura ubumenyi bwabo barebe hirya no hino ku isi uko bimeze ndetse n'icyo babarushije.

Intambwe ya mbere ni ugusura irembo mu gihe waba ibintu ugiye kubyikorera bigiye bitandukanye, kuba wareba ubwenegihugu bwawe, kuba wakandikisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye nawe wabyikorera.

Iyi ngiyi ni gahunda ya mudasobwa kuri buri munyeshuri abanyeshuri biga mu mashuri abanza ,kugira ngo bazagere mu mashuri yo hejuru bafite ubumenyi buhagije bisumbuyeho ku byo bagombaga kuba bari bazi.

Repubulika y'u Rwanda minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, iba yazanye amasaha y'akazi mashya, minisiteri y'abakozi ba leta aha ngaha, iragenda ikabazanira amasaha mashya y'akazi ukayasoma ugakurikiza amabwiriza.

Ahangaha ni ku munara, umunara icyo udufasha ni ibijyanye n'itumanaho, kugira ngo itumanaho ryorohe aha hantu umuntu ushaka guhamagara cyangwa se kuvugana n'umuntu utari hafi yiwe uri kure yiwe bibe byakoroha.

Amapoto ariho amashanyarazi tukaba tureba ahantu babasha kuza kurebera amashanyarazi mu gihe yaba yagize ibibazo bigiye bitandukanye, aka ngaka ni agasandugu kaba kabitsemo ibintu bigiye bitandukanye by'amashanyarazi.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda myinshi cyane itandukanye Nyabugogo, ahangaha hakaba harimo amatara afasha mu kugenda mbere no kugenda nyuma kugira ngo hataza kubaho guhurira mu muhanda hagati. Iyo bacanye icyatsi abo mu cyerekezo cy'icyatsi nibo baba bagomba kugenda abandi bagahagarara.

Iri ngiri ni ipoto ry'umuriro aha ngaha ni insinga nyinshi cyane zitwara umuriro mwinshi zigiye zitandukanye kugira ngo buri ngo zikomeze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi, ubundi bakomeze kuba mu gihugu gisa neza.

Iki ngiki ni icyuma gicaho insinga z'amashanyarazi, iki ngiki nukibona ahangaha uzatinye kuhegera kugirango utishyira mu bibazo, iki nguki gicaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ugere ku baturage babashe gucana.

Ni ipoto y'amashanyarazi ntibiriho insinga zidufasha kugira ngo amashanyarazi agere ku ngo zigiye zitandukanye, abaturage babeho mu gihugu gifite urumuri kandi bakomeze gutera imbere.

Amapoto ariho insinga z'amashanyarazi kugira ingo zegereye hano zibe zabasha gucana ku buryo bwiza bworoheje, kandi zibe mumujyi ucyeye no mu gihugu gikeye bizeye umutekano wabo kubw'urumuri.

Iri ngiri ni ipoto ry'amashanyarazi, haba hariho insinga zigiye zitandukanye, kugira ngo abaturiye aha ngaha bose babashe kugerwaho n'umuriro, ku buryo bworoshye kandi bworoheje babe mu gihugu gikeye.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga bisanzwe bitwara abantu kuburyo bworoheje bidatwara imizigo abantu bashobora gukoresha bagiye gutembera cyangwa se bagiye mu kazizi kabo barimo baranavayo.

Iyingiyi ni ipoto y'umuriro iba iriho insinga nyinshi zigiye zitandukanye, ahangaha inzu ziba zegereye hano aba ari uburyo bworoshye bwo kugirango zibashe kuba zagezwaho umuriro w'amashanyarazi nazo zibeho ahantu hasa neza kandi hakeye.

Ahangaha ni ahantu heza, tukaba tubona amazu meza agezweho yo ku nyubako z'iterambere. Tukabona ipoto ry'amashanyarazi rifasha kujyana umuriro mu ngo ziba ziri aho hafi zigiye zitandukanye, kugira ngo habeho urumuri.

Ni amazu y'ubucuruzi aherereye ku Gisozi ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibikoresho by'ubwubatsi imyenda, amafunguro ikintu cyose waba ukeneye uramutse ushaka kugira icyo ugura aya mazu waza kuyabarizamo cyangwa se kuyahahiramo.

Inyubako nziza igezweho yubatse ku buryo bw'iterambere, ikaba yubatse Kimironko. Iyi ngiyi ni inzu wasangamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, wasangamo ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye wakwifuza uramutse hari icyo wifuza wayisura bitewe n'icyo ukeneye wagisangamo.

Icyuma kinyuraho umuriro w'amashanyarazi, afite imbaraga nyinshi zitandukanye, aha ngaha kiba kimeze nk'urugomero, iki icyuma nukibona uzirinde kucyegera kugira ngo utaza kwishyira mu bibazo byinshi bitandukanye.

Iyi ngi ni ipoti y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi zigenda zijya mu ngo zigiye zitandukanye, kugira buri rugo rubone amashanyarazi.

Uru nguru ni urugomero rw'amashanyarazi, ahangaha ni ahantu hadufasha mu gihe icyo aricyo cyose twaba dukeneye ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, ahangaha haba hari umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane, kuko aha ngaha hava umuriro ujya mu nce nyinshi z'igihugu zigiye zitandukanye.

Shaka gakorerwamo konturori y'umuriro w'amashanyarazi, ahangaha niho barebera ibibazo umuriro waba wagize mu gihe agace runaka kagize ibibazo by'ibura ry'umuriro baraza bakareba ababishinzwe ikibazo byaba byagize.

Iyi ngiyi ni ipoto y'amashanyarazi, aha ngaha haba hariho insinga zigiye zitandukanye zijya mu byerekezo bitandukanye, zijyanyeyo umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abantu bose bakomeze kubaho bari ahantu hacanye kandi habona.

Aha ngaha ni mu nyubako y'umuntu uwo ari we wese runaka, baratweretse ishusho ye kugira ngo batwereka ko umuriro w'amashanyarazi uba warageze kuri bose, aha ngaha niho wabasha kuza gukupa umuriro mu gihe habonetse ikibazo waba utazi.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi zitwara abagenzi, mu ngeri zigiye zitandukanye, mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu, kugira ngo babashe kugenda mu kazi kagiye gatandukanye, ubundi bakomeze kurushaho gutera imbere. Tukabona n'ipoto itwara insinga z'amashanyarazi kugira ahantu hose umuriro uhagere.

Igipangu kiza cyane gifite ubusitani busa neza, hanze gifite amabara meza cyane agezweho, kiri ku muhanda, ukabona n'igiti mu Rwanda twita ipoto, haba hariho insinga zitwara umuriro ziwujyanye ahantu hatandukanye, kugira ngo buri muntu wese umuriro umugereho ku buryo bworoshye.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima ni ivuriro, aha ngaha ni ho waza mu gihe ufite umuntu warwaye cyangwa se ufite umuntu warwariyeyo wajya kumusura, aha ngaha bagusubiza kongera kugira icyizere cy'ubuzima.

Hano ku kigo nderabuzima turabona abaturage baba baje kwivuza, tukabona imbangukiragutabara. Ibinyabiziga by'imbangukiragutabara biba bizanye abarwayi bavuye mu ngeri zitandukanye z'igihugu.

Ibi ngibi ni ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, aha ngaha uramutse ukeneye kuza kuhivuriza kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kuzira umuze, wahaza bakagusuzuma bakareba indwara urwaye ubundi bakagufasha.

Iki ngiki ni ikigo nderabuzima Minisiteri y'ubuzima, kiriho ibitaro bya Muhima, aha ngaha uramutse ukeneye kwivuza, waza ku Muhima bakagufasha cyangwa se ufite umuntu warwaye na we wamuzana ubundi bakamwitaho.

Aha ni ku bitaro bya Muhima, mu gihe waba urwaye utameze neza ushobora kuba waza ukahivuriza ubundi ukongera ukamererwa neza cyangwa se mu gihe waba ufite umuntu uharwariye na we waza ukamusura.

Ikingiki ni ikigo nderabuzima cya Nyarugenge, ahangaha ni ivuriro ryiza uramutse uje kwivuza bitewe n'ibibazo waba ufite ahangaha baragufasha ubuzima bwawe bukongera bukagenda neza bugasubira ku murongo.

Iki ni ikigo nderabuzima, aha ngaha uramutse ushaka kuza kwivuza, waza ukahifuriza ubundi kongera ubuzima bwawe bugasubirana ireme, bukazira umuze bakaguha imiti myiza bakakwitaho cyane.

Iki ni ikigo nderabuzima cyangwa se ivuriro, mu gihe waba warwaye cyangwa se wumva ubuzima butameze neza, ushobora no kugenda bakagusuzuma bakareba ngo ni ikihe kibazo kirimo ubundi bakabona uko bagufasha.

Iki ni kigo nderabuzima, abantu baba bakiyobotse kugira ngo barebe ko babasha kuvurwa mu gihe bameze nabibbamwe, hari igihe ubyuka utameze neza cyangwa se uburwayi bwagufashe, ikigo nderabuzima kibigufashamo

Ahangaha ni ku ivuriro hari abantu b'ingeri zitandukanye, aho hari intebe zo hanze zo kwicara mutegereje mu gihe umwe yatanze undi akaba ariwe ubanza undi ukurikira gutyotyo, hakaba hari n'abagororwa nabo bemerewe kwivuza mu gihe batameze neza mu buzima.

Iyi ngiyi ni gereza cyangwa se igororero, abangaba ni abagororwa baba bari mu mirimo itandukanye, baba bari kugira ngo baganire bateze igihugu imbere, bakore imirimo isimbura bamwe igifungo.

Uyu nguyu ni umugororwa uri kumwe n'abakozi ba leta bashinzwe kubacunga no kubareberera umutekano wbo, ahanga aafite ibitabo ashobora kuba agiye mu rukiko mu iburanishwa kugira ngo barebe niba koko ibirego aregwa bimuhama cyangwa se arengana.

Aha ngaha ni mu rukiko, tukaba tubona ushinjwa, umuburanira ndetse n'abacamanza. Aha ngaha ushinjwa aba ari mu rukiko, aregwa ibyaha bigiye bitandukanye; afite umuburanira kugira ngo arebe ko yamurenganura.

Uru nguru ni urupapuro rwo gusubiramo gusubukura ikirego, kugira ngo urebe niba waba urengana. Ikirego gisaba gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane nta shingiro gifite.

Abanga ni bamwe mu bakozi baba bafashe ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ubundi bakazamura akaboko k'iburyo bakarahira kugira ngo ibyo barahiriye bazabashe kubikora kandi babigereho babyikore ndetse babikoreye n'igihugu.

Iyi ngiyi ni gereza ya Nyarugengeba, akaba ari inyubako ndende ku buryo bahagije, aha ngaha usanga harimo imfungwa zigiye zitandukanye, barazize ibyaha bigiye bitandukanye, haba hari n'ushinzwe imibereho yabo n'uburyo baba babayeho.

Aha ngaha ni mu nkiko gacaca, wasangaga bazanye umuntu ufite ibintu arimo araregwa cyangwa se arashinjwa, ubundi muri gacaca bakamushyira hasi bakamurebera ibimukwiye.

Iyi ngiyi ni gereza, iki ngiki ni igipangu cya gereza, ahangaha niho bashyira abantu bagiye bemezwa ko bakoze ibyaha bigiye bitandukanye kugira ngo bakomeze babahe umuco banabagorore.

Aba ngaba ni bamwe mu bayobozi b'ivuriro rigiye ritandukanye cyangwa bari kuganira ku bintu byinshi bitandukanye kugira ngo bakomeze guteza igihugu imbere n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Aha ngaha haba hari kubaho icyo bita irahira, kurahira baba bafashe ku ibendera ry'igihugu ubundi bakazamura akaboko k'iburyo bakagira ibyo bemera kugira ngo bazabashe kubigeraho bagahiga imihigo bakavuga imigabo n'imigambi.

Iyi ni polisi y'u Rwanda polisi ikeye isa neza bahagaze mu bintu bigiye bitandukanye barimo baraganirizwa ku bintu byinshi byatuma bakomeza gukora akazi kabo neza kandi ku murongo.

uyu nguyu ni umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda ushinzwe imigendere cyangwa se umutekano wo mu muhanda, uyunguyu araguhagarika akareba niba ifite ibyangombwa bikwemerera kuyobora ikinyabiziga mu muhanda cyangwa se kureba niba nta makosa ufite cyangwa se warishyuye imisoro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Uyu ni umupolisi ushinzwe imigendere yo mu muhanda kugirango hakomeze habeho umutekano hagati y'abantu n'ibinyabiziga, ndetse n'umutekano mu muhanda ukomeze kumera neza ntihagire ubangamira undi mu migendere yo mu muhanda.

Iki ni kimwe mu gikoresho cy'ubwirinzi kandi cyiza kikurinda ibintu bibi byinshi cyane birimo inkongi y'umuriro. Mu gihe utewe n'inkongi y'umuriro uri kukibona ugomba kukifashisha urwana n'iyo nkongi y'umuriro.

Iyi ngiyi ni polisi y'u Rwanda, ishinzwe umutekano ndetse n'imigendere byo mu muhanda. uyu nguyu uzamubona aguhagaritse utwaye ikinyabiziga, arebabe ibyangombwa byawe niba nta kibazo bifite, wemerewe kuba wagendera mu muhanda.

Aba ngaba ni abakozi bo mu kigo gishinzwe kuba cyarwanya inkongi y'umuriro, aha ngaha bari barimo bararwanya inkongi y'umuriro yari yateye ahantu haba hagiye hatandukanye, aba ngaba nibo uzasanga bagufashije mu gihe watewe n'inkongi y'umuriro.

Abaturage baba bateranye ku bwinshi bari kwiga ku bintu bitandukanye byatuma barushaho kwagura imitekerereze yabo ndetse no kwimakaza umuco na kirazira kandi bagateza n'igihugu imbere.

Uyu nguyu ni umukuru w'igihugu, umutoza w'ikirenga, inkotanyi, amazina menshi, aha ngaha aba agiye ahantu imbere y'abaturage twese twaje kureba, twaje kumva ijambo rye ryiza.

Umukuru w'igihugu arimo arahana umukono n'umuyobozi mugenzi we uyobora ahantu runaka, aha ngaha urabona ko bari bishimye baba bagiye kuganira ku bintu byatuma ibihugu byabo bitera imbere, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye n'abaturage bagatera imbere.

Ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, ahangaha imitwe ya politiki bifite ihuriro nyunguranabitekerezo bakungurana ibitekerezo ndetse na demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure.

Aba ni abayobozi b'ababyeyi, na bapapa, abamama n'abapapa barimo bararahira bafashe ku ibendera ry'igihugu, bavuga nk imigabo n'imigambi, barahira ku byo bashobora kuzageraho kugira ngo barusheho guteza igihugu imbere.

Aba ngaba ni bayobozi baba bashyizweho bashya cyangwa se basanzweho, bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu, tukaba tureba n'ishusho y'umukuru w'igihugu inyuma yaho, aba ngaba ni abayobozi badufasha kuganira ku bintu bitandukanye no gutera imbere.

Iki ngiki ni icyumba cy'itora. Aha ngaha, kariya gasanduku akenshi aba ari ak'ibitekerezo, kandi koko n'iyo utoya aba ari igitekerezo ubu utanze. Baraguhereza wamara gutora, ukakazinga agapapuro kawe, ukagenda ugashyiramo hariya.

Umuyobozi w'ahantu hatandukanye w'ikigo runaka cyangwa se w'ishami runaka bakaba barimo baraganira bungurana ibitekerezo, imbere yabo hari indangururamajwi zibafasha kugira ngo hakomeze kubaho ubwumvikane bunogeye buri wese arimo yumva.

Nguyu ni umuyobozi wari uhagarariye itsinda ry'icyatsi, yarimo ariyamamaza mu Rwanda, mu karere ka Rutsiro imbere y'uruganda rw'icyayi. Kugira ngo arebe ko yazaba umuyobozi mukuru w'igihugu nyuma y'amatora.

Ishyaka riba riririmo riramamazwa aha ngaha bari barimo baramamaza ishyaka rigizwe na mutuku, umweru n'ubururu, iri shyaka ryari rihagarariwe n'umukuru wari uw'igihugu bwa mbere akongera akiyamamaza kugira ngo arebe ko yatorwa gusa n'ubundi niwe watowe niwe watsinze kongera kuba umukuru w'igihugu.

Abayobozi mu nama y'ibintu bigiye bitandukanye barimo bariga kure byateza igihugu imbere, kandi ukuntu bakangura imishinga bagiye bafite cyangwa se ukuntu basigasira ibyo bagezeho, bagakomeza kwagura n'ibindi.

Ibibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki, ibinyabiziga bitwara imizigo ndetse n'utunyamitende tw'ibipine bitatu, dutwara na two imizigo mikeya, tuyijyanye ahantu hagiye hatandukanye, mu nce zigiye zitandukanye.

Iki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi, akenshi ki ngiki gitwara imizigo y'ubwubatsi, mu gihe abantu barimo barubaka baba kubaka imihanda cyangwa se ibindi bikorwaremezo, ibinyabiziga bidufasha mu bikorwa by'ubwubatsi.

Uyu nguyu ni umuhanda uherereye ahantu hatandukanye, tubonamo ibinyabiziga bitwara abantu, ukabona amapikipiki nayo atwara abagenzi abavanye ahantu hamwe abajyanye ahandi, urwego rw'ubuhahirane nk'ukunku bwo gushaka amafaranga.

Ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo y'ubwoko butandukanye kijyanye ahantu runaka, aha ngaha gitwaye za gaze ashobora kuba ari umuntu waranguye, agiye gucuruza ibicuruzwa bye biba bigomba kumugeraho, bigiye muri iki kinyabiziga gitwara imizigo.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kinini kandi kirekire kigari kidufasha gutwara imizigo itandukanye, ushobora gushyiramo amagaze cyangwa se bashyiramo ibindi bintu bitandukanye, kiragutwaza kikakugerezayo aho waba ukeneye, ko kiwugeza, aho ukorera imirimo yawe ibikorwa byawe.

Ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa bisi nini zitwara abagenzi zibavanye ahantu hamwe zibajyanye ahandi turakabavana mu kazi zibajyana mu ngo zabo cg se bakazitega baje mu kazi kabo.

Iki ni ikinyamitende cy'ibiziga bitatu kidufasha gutwara imizigo iringaniye. Ahangaha umuyobozi wacyo cyangwa ugikoresha waba wamamagara kuri izi nimero ngendanwa zikurikira kugira ngo mu gihe umukeneye utamubura.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo urunyurane rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'abantu ku giti cyabo, bidatwara imizigo bitwara abantu gusa ndetse n'ibitwara imizigo yonyine, tukareba n'umuntu utwaye imizigo ayikoreye ku mutwe we.

Iki ni ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi y'amatoni menshi aremereye cyane kikaba kirimo kirakatira kijyaho aho ibi binyabiziga binini bitwara imizigo bigomba guhagarara cyangwa se bigomba kuba mu gihe kirekire.

Iki ngiki ni kinyabiziga kizwi nk'ipikipiki, gitwayeho umugenzi ugiye ahantu hatandukanye, amapiki adufasha gutwara abagenzi kandi nayo arihuta cyane.

Iyi ngiyi ni ishusho ya nimugoroba, aho ibinyabiziga biba bigomba kugenda byacanye amatara maremare kugira ngo bibashe kubona imbere aho bijya. Tukabona ikinyabiziga cya bisi itwara abagenzi bavuye ahantu hamwe bagiye ahandi.

Ahangaha turabona ipikipiki, igare; tukabona n'umwe mu bakozi b'ikigo cya MTN bashobora kuba bari gufasha abantu ibintu bigiye bitandukanye; yaba kubitsa amafaranga, yaba kugura imiti no gukora ibindi bintu bitandukanye.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga binini bya bisi zidufasha gutwara abagenzi bava ahantu hamwe, bajya ahandi, mu ngeri zigiye zitandukanye no mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu kugira ngo zidufashe mu ngendo zacu za buri munsi.

Aha ngaha turareba ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'utunyamizigo dusunikwa n'intoki, utungutu tugendaho imizigo, abantu batwaraho imizigo mikeya ishoboka y'urugendo rugufi.

Iki ngiki ni kinyabiziga byo mu bwoko bwa bisi, ibi binyabiziga bidufasha gutwara abagenzi bagiye mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, ndetse bagiye mu mirimo yabo, mu kazi bava mu kazi bajya mu ngo.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ipikipiki ,tukaba tureba icyapa kigize ishusho y'uru ruziga ndetse umuzenguruko utukura ,ubuso bw'umweru ,ikirango cy'umukara giciyemo umurongo utukura, ni ukuvuga ngo umuhanda wo muri kiriya cyerekezo ntabwo wemerewe kunyurwamo n'ibinyabiziga.

Ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo y'ubwoko butandukanye, akenshi ibinyabiziga bidufasha mu gihe cy'ubwubatsi, ahantu harimo harabera ubwubatsi bugiye butandukanye bizana ibikoresho.

Harimo ikinyabiziga kinini gitwara imizigo kenshi ibi bininyabiziga bidufasha iyo turi mu gihe cyo gukora imirimo ijyanye n'ubwubatsi igatwara amabuye imisenyi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iki ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi ukaba warangura ibintu, ubundi kikagutwaza kandi ikindi umuyobozi w'ikinyabiziga wese agomba kumenya ko niba atwaye imizigo igomba kuba itwikiriyeho hejuru.

Aha ngaha turareba umuhanda mwiza uva ahantu hamwe ujya ahandi, tukareba umuyobozi w'ikinyabiziga y'ipikipiki ageze aho abanyamaguru bambukira, hariya iyo uhageze ugasanga umunyamaguru arimo arambuka, uba ugomba kubanza ugahagarara.

Aho ngaha turareba umuhanda urimo ingeri zitandukanye z'ibinyabiziga, ndetse n'abantu, tukarebamo umupolisi ushinzwe umutekano n'imigendere yo mu muhanda, aba ngaba aba ari kugira ngo abarebe niba bafite ibyangombwa byo kugendera mu muhanda cyangwa se acunge umutekano wo mu muhanda, hatagira icyangiza ikindi.

Uyu ni umuhanda urimo binyabiziga bitandukanye, tubona ibinyabiziga bitwara imizigo iremereye myinshi cyane, tukabona n'igare ririho umuyobozi urisunika atabyicayeho utwaye imizigo ku igare ryiwe, harimo ibitoki n'ibindi byo kunywa.

Iki ngiki ni ikinyabiziga kidufasha gutwara imizigo myinshi iremereye ziyijyanye ahantu hagiye hatandukanye, ushobora kuba uri umucuruzi ukarangura nka toni z'ibirayi nyinshi iki ngiki cyagutwaza kikakugerezayo.

Iki ngiki ni ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'amabisi manini, kidufasha gutwara abagenzi cyangwag se abantu bagiye ahantu hatandukanye mu kazi kabo ka buri munsi, bava mu bikorwa bimwe bajya mu bindi mu ngendo zacu za buri munsi.

Ikinyabiziga kinini kidufasha gutwara imizigo myinshi iremereye, ibinyabiziga akenshi bidufasha mu gihe cy'ubwubatsi, ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi, ibi nibyo bidufasha, gutwara ibintu byinshi, ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye.

Aha ngaha turabona ikinyabiziga cyitwa igare, hariho n'imizigo, umuyobozi waryo akaba agenda arisunika, ubundi ataryicayeho, kuko hariho imizigo ubundi nawe akagenda gushaka amafaranga.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, tukaba tureba amapikipiki atwara abagenzi abajyanye ahantu henshi hagiye hatandukanye, kugirango ngo barusheho kwiteza imbere.

Iki ni ikinyabiziga gitwaye imizigo, kiyijyanye ahantu hagiye hatandukanye, tukaba tubona hejuru hicayeho umuntu uri gucunga iyo mizigo kugira ngo itaza kwangirika cyangwa se ikaba yakibwa...

Iki ngiki ni ikinyabiziga ikinyamitende cy'ibiziga bitatu kidufasha gutwara imizigo iringaniye, aha ngaha haba hariho nimero wamuhamagararaho mu gihe waba ukeneye iki kinyabiziga.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga by'amapikipiki, bidufasha mu ngendo zacu za buri munsi, ukeneye kuvana hamwe ujya ahandi, mu rugendo rwawe ibi ngibi biragufasha, ubundi ukahagera mu mahoro.

Ibi ngibi ni ibiziga bisunikwa mu maboko ubiyobora asunikisha amaboko bidufasha gutwara imizigo iva ahantu hamwe ijya ahandi mu buryo bworoheje cyangwa se mu rugendo rutari runini cyane rutari budusabe ibinyabiziga.

Iki ngiki ni ikinyabiziga, bisi nini zidufasha gutwara abantu benshi cyane icyarimwe, ibi ngibi biradufasha mu ngendo zacu za buri munsi, imirimo yacu ikabasha kunozwa neza.

Ibi ngibi ni ibinyabiziga binini bidufasha gutwara imizigo, mato ni menshi cyane tukaba tureba umunyamaguru wambaye imyambaro y'akazi, kugendera mu nzira y'abanyamaguru yemewe.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ni ahantu heza ushobora kugenda ufata igare ugakodesha ukaza ukaba uhanyura uruhura mu mutwe, ukaba wishimira ubuzima kuko nta bindi binyabiziga byemerewe kuhanyura.

Ahantu ahantu heza wabasha kuhishimira uzanye n'inshuti zawe mukaganira cyangwa se umukunzi wawe ahangaha nta rusaku uba wumva, ibinyabiziga ntabwo byemewe kuhanyura ahangaha niho abantu bidagadurira ndetse baruhura mu mutwe bari mu bindi bintu bigiye bitandukanye.

Aha ngaha ni ahantu heza nyaburanga wasohokera, wowe n'inshuti zawe cyangwa se wowe n'umuryango wawe mukaba mwafata ibintu bigiye bitandukanye, yaba amafunguro ameze neza kandi ateguye neza, yaba ibyo kunywa bisa neza kandi byiza.

Aha ngaha ni ikibuga kiberaho imyidagaduro, ushobora kuba waza gukora imyidagaduro, nawe ukagorora umubiri wawe, ugakina imikino igiye itandukanye, aha ngaha bahakinira umukino w'amaboko uzwi ku izina rya basiketi.

Aha niho bakorera ibizami by'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, mu gihe uri mu kizami ukagera kuri kino cyapa gifite ishusho y'umuzenguruko gifite umuzenguruko w'umweru ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru kirimo makumyabiri, ahangaha uba ugomba kugendera ku muvuduko wa makumyabiri ubitegetswe.

Uru ni urugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Byimana, uramutse ukeneye ko umwana wawe yakura neza afite uburezi bwiza buhagije, aha ngaha ni ahantu wabasha kumuzana bakamwigisha n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibibuga biberamo imyidagaduro igiye itandukanye n'imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye umunsi ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri, wahagera ubundi ugakora imyitozo yawe ugakomeza ukagira ubuzima buzira umuze.

Iyi ngiyi ni imihanda igiye itandukanye, hari umuhanda umanuka uva mu mujyi ukomeza za Sonatube n'ahandi hatandukanye; ukabona amatara yo mu muhanda ndanga kugenda mbere no kugenda nyuma. Ukabona amatara agaragaza ko abagomba kumanuka umuhanda w'icyerekezo kimanuka bemerewe kugenda, n'abari mu muhanda ujya iburyo, umuhanda w'ibumoso, bagomba kuba bahagaze.

Ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara gicishijemo akarongo k'umutuku kakubwira ko uyu muhanda utanyurwamo.

Iki ni icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko uzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, ahangaha nuhagera iki cyapa ukakibona kirimo igare, ikinyabiziga kinbyujijemo umurongo utukura uzamenye ko igare ntibyemerewe kuhanyura ntihanyurwa n'amagare.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya kare, kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo tukaba tubonamo mirongo itandatu aha ngaha barakubwira bati ''wemerewe kugendera ku muvuduko wa mirongo itandatu''.

Aha ngaha turabona igipangu kiriho nimero igiye itandukanye, nimero ziradufasha mu rwego rwo kuyoboka cyangwa se kumenya no kurangira umuhanda ngo ni wa kangahe cyangwa se igipangu kiri ku muhanda wa kangahe?

Iki ni icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende, kikaba cyerekana imenyekanisha ry'umuhanda cyangwa se kuba ryakurangira umuhanda umubare waba ugezweho, ahangaha tukaba tubona ko ari umuhanda wa Kigali cumi n'umunani icyenda.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru. Iki cyapa uzasanga mu muhanda ahantu kiri gifite ishusho ya mpande eshatu ariko imeze nkaho icuramye uzasanga kikubwira ko hano hantu hatanyurwa.

Ibi ngibi ni ibyapa bikwereka ko, urimo urarenga umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, winjira mu gihugu cya Uganda. Aha ngaha barakubwira ati repubulika ya Uganda, ubundi bakakubwira urugendo ruhire, nuhabona uzamenya ko ugeze mu kindi gihugu.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu umuzenguruko utukura ubuso bw'umweru ikirango cy'umukara, iki cyapa nukigeraho uri mu muhanda uzamenye ko iyi ngiyi ugeze ku nkomanani banyuraho bazengurutse.

Iki ni icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ahangaha iki cyacyambu uzagisanga mu muhanda kizaba kikubwira ko mu muhanda urimo ugenda mu ibumoso bwawo hashamikiye akandi gahanda.

Iki ngiki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo, ikirango cy'umukara, aha ngaha barakubwira ngo mu gihe uri kugenda mu muhanda ukomeje uzamenye ko iburyo bwawe hakatirayo uwundi muhanda cyangwa se hari undi muhanda waba uvayo.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Aha ngaha uzamenya ko mu muhanda wawe urimo uragendamo ibumoso bwawo hashamikiyeho akandi gahanda.

Aha ngaha ni mu ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye, tukabona icyapa kikwereka inkomane banyuramo bazengurutse y'imihanda igiye ijya ahantu hatandukanye, ikajya mu mujyi wa Kigali, Kigali mo hagati ku kibuga cy'indege no ku nyubako nziza ya Radisoni.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Naho ahangaha iki cyapa nukigeraho uri m'umuhanda uyoboye ikinyabiziga uzamenye ko ikoni cyangwa se ikorosi rikatira iburyo ikoni ry'iburyo.

Ibi ngibi ni ibyapa ndangahantu bikwereka ahantu waba ugeze uko hitwa kugira ngo hatabasha kubaho amayobera agiye atandukanye aha ngaha tureba ni umurenge wa Giheke uherereye muri kino gice cy'iburyo bwawe.

Ikingiki ni icyapa uzabona kenshi. Gifite umuzenguruko utukura, kikaba gifite ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kinyujijwemo akarongo k'umutuku. Ahangaha bakubwira ko bisi zitemewe kuhahagarara.

Kimwe mu cyapa kiri mu ishusho ya kare gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru n'umukara. Aha ngaha nukigeraho kiragaragaza ko harimo umunyamaguru wambukiranya umuhanda, uzamenya ko ariho abanyamaguru bambukira ubundi mugihe uhageze ugahagarara.

Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu, kikaba gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Iki cyapa mu gihe uzaba uri umuhanda utwaye ikinyabiziga, uzamenye ko ari inkomane banyuramo bazengurutse.

Aha ngaha turabona icyapa kigaragaza umuhanda wa magana atanu na rimwe, tukaba tubonamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki, ikinyabiziga gitwara abagenzi, tukareba n'ahantu abanyamaguru bambukira, iyo ibinyabiziga bigeze hariya, birategereza abanyamaguru bakambuka.

Izingizi ni indabyo nziza zihumura neza, ushobora kuba wagu nawe ukagenda ukazishyira iwawe, ugakora ubusitani bwiza wajya ubasha kwicaramo, ukaruhuka, ugatekereza neza.

Iki ngiki ni icyapa kigaragaza ishyaka ry'icyatsi niko ryari ryiswe naryo ryari riri kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu, gusa ntabwo ryaje gutsinda, izi nizo zari imbuga nkoranyambaga zabo na nimero wabahamagaraho.

Umuhanda urimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'ibinyabiziga bitwara abantu gusa bitagendamo imizigo, ibinyabiziga byagenewe kujya bitwara abantu ntago bigendamo imizigo.

Iyi ni nyubako nini irimo irubakwa ahantu runaka, kugira ngo u Rwanda rurusheho gutera imbere rufite inyubako nziza kandi zigezweho hagakorerwamo ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye abantu bagakomeza kwiteza imbere n'igihugu kigakomeza kurushaho gutera imbere.

Iki ngiki ni kinyabiziga cy'ipikipiki, kiri mu muhanda ugiye utandukanye, tukaba tureba amaduka acuruza ibintu bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo, byo mu nzu wakoresha, ibyo wakoresha ukora isuku n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Uru nguru ni urugo rw'umuntu runaka usanzwe, ubona ko afite inzu nziza igaragara neza yujuje ibisabwa byo kuba yajya ku mudugudu w'icyerekezo, inyubako isa neza.

Ahangaha ni ahantu heza nyaburanga muri Remera nta muntu utahazi ushobora kuhasanga ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye; bakabahita i Remera kwa Rando umuntu wese wabwira uti ngeza kwa Rando yahakugeza ubundi ukareba ibikorwa biriyo.

Uyu nguyu ni umudugudu w'icyitegererezo, ufite amazu meza cyane, amazu yubatse ku buryo bugezweho, kaba tureba umuntu uri kumwe ndetse n'undi utwaye ikinyabiziga, ashobora kuba ari kumurangisha, nawe akamurangira.

Aya ngaya ni amazu meza manini akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ibikorwa by'amabanki, hakaba hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki ari mu mihanda atwaye abagenzi kugira ngo hakomeze kubaho ubuhahirane.

Aha ngaha ni ahantutu heza hari ibiti byiza byazana amahumbezi, ushobora kuba wajya kuhasura ukareba ibyiza nyaburanga byinshi bigiye bitandukanye, yaba ari muri ahantu ho gusurwa.

Iki ngiki ni iknyabiziga k'ipikipiki aha ngaha umuyobozi akiyoboye acyicayeho, ari kugenda agiye gushaka amafaranga turareba ibipangu byiza, amazu meza yubatse neza y'iterambere, umugi ugakomeza kubona ko ukeye kandi ari mwiza.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bwiza bugezweho, ibirahuri inyuma byinshi cyane, amabara meza ku buryo inzu igaragara neza ifite uburanga buhagije, aha ngaha haba hakoreramo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, nawe wakinjiramo ukareba.

Aha ngaha turabona ibikoresho byo kubika amazi bizwi mu izina ry'ibigega, ibi ngibi byagufasha mu gihe ahantu runaka amazi yaba yabuze wowe ugakoresha aya ngaya yaba yasigaye.

Iyi ngiyi ni poto y'umuriro iriho insinga zigiye itandukanye imbere y'amazu meza, yubatse neza ku buryo bugezweho, iyi poto itanga amashanyarazi ku mazu ari hano ndetse igakomeza ikambukiranya insinga zijya n'ahandi kure hagiye hatandukanye.

Ndabona ahantu heza wabasha kuba wasohokera wowe n'inshuti zawe cyangwa se wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe n'umukunzi wawe, ukaba ushobora kuba wahasanga ibintu byiza byinshi bitandukanye, yaba amafunguro ateguye neza ndetse n'ibyo kunywa biteguye neza.

Uyu nguyu ni Umudugudu wa Kinyinya, Umudugudu urimo amazu meza agezweho, na we ushobora kuba waza ukahagura ubutaka bwawe ubundi ukahashyira inzu, ukaza ukayituramo, aha hantu ni heza.

Iki ngiki ni kinyabiziga kimwe ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu gusa, ikindi gitwara abantu cyangwa se imizigo, abantu bashinzwe umutekano w'ibintu bigiye bitandukanye nko ku mabanki.

Ahangaha ni i Remera, iyi ni inyubako yaho irimo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, uramutse ubikeneye ukaba wayinjiramo hari amabanki hari ibigo by'ubwishingizi hari aho batanga imiti, ahangaha wahagera ukareba ibyo waba ukeneye.

Imihanda igiye ijya ahantu hatandukanye, tukaba tubonamo ikinyabiziga gisa n'ibara ry'umutuku, ikinyabiziga ntabwo gikoreshwa gitwara imizigo, ahubwo gitwara abantu bagiye ahantu hatandukanye, gikoreshwa mu buryo bw'ingendo gusa nta gutwara imizigo.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye aho tubonamo ibinyabiziga by'amoko menshi, amapikipiki, amagare, ibinyabiziga binini bitwara imizigo myinshi cyane iremereye, ibinyabiziga bisanzwe bitoya byo kugendamo mu buryo busanzwe.

Ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda by'ubwoko bwinshi, igare, ipikipiki, ikinyamitende, ibinyabiziga bisanzwe byo kugendamo, aha hose biba biri kugenda biri muri gahunda zigiye zitandukanye.

Iki ngiki ni ikiraro cyambukiranya kijya Ku muhima cyangwa se mu mujyi. Ikiraro cyiza, gikomeye, kimaze igihe kinini, umuhanda wo muburyo bw'iterambere wo kwambukiranya bidasabye kujya kuzenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza munini urimo ikinyabiziga kiba kigendamo umuntu ku giti cye, cyangwa se ikinyabiziga kidatwara imizigo, abantu bagendamo bagiye gutembera cyangwa se bifashisha bagiye mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu nguyu ni umuhanda w'ahantu hatandukanye, tukaba tureba ahantu hari imirongo yera abanyamaguru bambukiranirizaho umuhanda, aha ngaha iyo uhageze abanyamaguru barimo barambuka ugomba guhagarara, bakabanza bagasoza kwambukiranya.

Ihuriro ry'imihanda myinshi cyane igiye ijya mu byerekezo bitandukanye. Hakaba hari amatara ndanga kugenda mbere no kugenda nyuma, kugirango hataza kubaho guhurira mo hagati mu muhanda bitewe no kutamenya. Aha ngaha iyo hajemo icyatsi kirimo umuntu aba agomba kugenda ubundi izindi zikaba zihagaze.

Uyu ni umuhanda ujya ahantu hatandukanye, mu gihe tubonamo ikinyabiziga cy'igare rihagazemo umuyobozi waryo adahari, ahangaha aba arishyizemo kugira ngo ajye ahantu hagiye hatandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye hari ibinyabiziga bitwaye ibindi binyabiziga byangiritse byagize ikibazo habayeho nk'impanuka hakaba amapikipiki atwayeho amacupa ya gaz n'amapikipiki atwaye abagenzi ku buryo busanzwe.

Iki ngiki ni ikiraro cyambukiranya ujya ku Muhima cyangwa se ukomeza mu mujyi ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, bitewe n'icyerekezo urimo urajyamo, ikiraro cyubatse ku buryo bw'iterambere kandi gikomeye kimazemo igihe kinini kirambye.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga, tukabonamo ibyapa bitandukanye, tukabonamo icyapa gifite umuzenguruko kikaba kigaragaza ko ari inkomane banyuramo bazengurutse.

Ikingiki ni icyuma cy'ikoranabuhanga, ikingiki twavuga ko gishobora kuba gishinzwe umutekano wo mu muhanda kuko abantu bangije amategeko. Ikingiki iyo urengeje imivuduko ntarengwa, uhagaze hano utemerewe guhagarara, kigafata amashusho ubundi ukazabihanirwa.

Uyu nguyu ni umuhanda, ikiraro cyiza cyambukiranya kijya ku Muhima no mu mujyi, cyangwa se umanuka ujya Nyabugogo bitewe n'ahantu ushaka kujya, ikiraro cyiza, gikomeye, cyubatse neza, ku buryo bugezweho, kandi burambye

Uyu ni umuhanda ujya ahantu hatandukanye, hakaba harimo amapikipiki atwaye abagenzi bari kuva ahantu hagiye hatandukanye bajya ahandi, abava mu ngo zabo bajya mu kazi, bajya gusura abandi, amapikipiki adufasha mu ngendo zacu za buri munsi.

Ni ihuriro ry'imihanda myinshi igiye itandukanye, ijya ahatandukanye, ni myiza isa neza aho tureba ibyapa bimwe na bimwe byerekana imihanda itagomba kunyurwamo muri biriya byerekezo bigiye bitandukanye kugira ngo habashe kubaho ubwumvikane.

Iri ngiri ni ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye, by'ahantu hatandukanye, tukaba turebamo ibinyabiziga bitandukanye, ibinyabiziga bitwara abantu ku giti cyabo, bavuye mu ngo bagiye mutuzi n'ahandi henshi, tukabonamo n'amagare abagiye gushaka abagenzi.